Umugabo afashe ipombo arimo guvubira ibigori umuti imirima y'ibigori no kubiteramo umuti, inyuma ye hari abantu bari bahagaze mu nzira, hari n'abandi bafashe imashini ihinga barimo kuyikoresha.

Umugabo uri mu murima w'umuceri arimo kuhira arimo gufura umuti ku myaka yambaye umutishati w'umuhondo n'agapfukamunwa k'umuhondo n'ibombe mu mugongo arimo gufubirira arimo gutera imiti imyaka yambaye ishati y'umukara ari mumyaka arimo gufuhirira iruhande rwe hari ibihuru byinshi.

Umuntu urimo gushyiramo utuntu mu mazi kugira ngo amafi azamuke abone uko ayaroba, imbere hari igisupanineti baroberamo amafi, nawe aragira ngo ayarobe, afite indobo zirimo ibyo ategesha amafi.

Abantu batatu bari mu murima w'ikawa barimo gusarura bambaye ibintu, ibyo basaruriramo mu mugongo ibintu bitatu buri umwe arimo gusarura ukwe ni umurima munini cyane urimo ikawa.

Umurima w'ikawa, harimo umukecuru urimo gusarura ikawa, yitambaje igitambaro mu matwi cy'umutuku, ikawa yarahiye yarahishije, arimo kuyisarura.

Umuntu wikoreye ibafu avuye gusarura, avuye gusarura ibishyimbo, biri mu ibafu arimo kugenda mu murima wanitseho imyaka myinshi cyane, ku mashitingi hari imyaka myinshi yanitseho.

Abadamu babiri bari mu murima w'ikawa, bafite n'ibitebo barimo gusaruriramo ikawa, ahantu ku gasozi, inyuma hari ibiti, no hakurya hari indi mirima irihari barimo.

Umurima urimo ibiti, imiyembe n'ibindi biti byo bahinzemo hakurya ni ibiti, ni umuririma w'ibiti byinshi, hakurya cyane hariyo amazu, hakurya cyane hariyo imisozi, ibiti birimo mumurima.

Umuti w'amatungo urimo inka, ihene n'intama bazigaburira uri mu gicupa uteretse ku meza harimo iy'indi miti iteretse hirya mu cyumba.

Amacupa menshi y'amaserumu ateretse mu cyumba, hari amacupa menshi cyane. Ni amacupa bakoresha muri serumu, serumu batera abantu kwa muganga bagize ikibazo cy'amazi make mu mubiri, bakabatera amaserume.

Imwe mu imiti y'inka hari iri mu makarito, hari mu mikebe, iri mu mubiri baketi, iri mu macupa afunguye yose ni imiti y'inka bakoresha mukuzivura.

Ni sitoke y'imiti y'inka, hari imiti yo gutera, kugabura, hari n'indi miti iri mu mabogisi, iteretse hasi myinshi cyane, yose ikoreshwa mu buryo bwo kugaburira amatungo.

Umuntu arerekana imiti y'inkoko y'amatungo, vitamini y'inkoko bazihereza hashushanyije inkoko, hasi hari n'indi miti iri mu kabati iteretse hasi aho zororerarwa mu nzu yazo.

Imiti y'inyamaswa bakoresha mu kuzivura, uyu ni umuti w'amaso w'inka n'ihene, hari indi miti myinshi cyane iri mu tubat,i iri mu ma etageri, mutodomora, mu ducupa, mu mabox, mu bicupa bitoya, ni imiti bakoresha mu kuvura inka n'izindi nyamaswa zose.

Aboborozi b'inka z'inzungu bari mu kiraro cyazo, buri kiraro cyayo barimo gukama ayijishi afite kabaka itarimo gukamiramo n'undi u hirya afite backet ebyiri imbere haribaziyi ziri imbere y inka zambaye amaherena.

Inka z'amasine zifite n'amahembe, imwe mu byatsi, indi mu muhanda irahagaze irage, irahagaze, indi iri inyuma, irimo kuva mu bishaka, iruhande rwayo hari umuhanda ziturukamo.

Umurima munini cyane urimo ibigori hakurya ni agasozi karimo ibiti byinshi n'uduhsaka dutoya, harimo imiyenzi urugo rw'imiyenzi rugabanya imyanya rutandukanya imyanya n'iyindi, hakurya cyane hari amazu ariyo, imwe ya kadasiteri y'umutuku, hagati hari andi mazu y'umweru.

Abagabo batatu bafite imihoro mu ntoki barimo kugenda n'umudamu wikoreye mu ifamu irimo izitije imiyenzi n'amahwa. Hakurya hari imisozi irimo ibiti.

Abaturage bari mu ifamu barakora igikorwa cyo gutera ibiti by'ibidukikije, harimo abayobozi, harimo urubyiruko, harimo abakururo n'abatoye.

Hari inkoko ziri mu nzu zirimo aho bazororera n'amatara yazo nyinshi, zihagaze ahantu ku byuma.

Inka ziri mu ifamu z'inzungu, zirimo n'umushumba wazo uziragiye, hari izambara amaherena, hari n'izitayambaye, umushumba uziragiye ziri mu ifamu inyuma, y'ifamu hari ibiti n'imiyenzi.

Abantu batanu barimo umumama umwe wikoreye inkwi ku mutwe, yihambiriyemo imyenda mu nda, abandi bafite inkoni ku rutugu , uw'inyuma afite umuhoro, bari mu byatsi baragenda, hirya hari ibyuma bizitiye.

Umugore w'umucuruzi afite ibirayi ku ruhande arimo gucuruza na bagenzi be, ku ruhande hari umwana hari umunzani umuri iruhande bakoresha mu gupima afite amafaranga magana atanu mu ntoki, magana atanu ya kera ya note ya kera ayafite mu ntoki yitambaje igitambara apfumuye ugutwi, ibirayi biri mu kadeyi.

Umurima, umuhanda urimo umurima hepfo no haruguru, hari aba, umukecuru ugiye gukwambuka, hari n'utwana tubiri turi imbere hari n'abandi bagenzi benshi bari mu muhanda hari n'inzu irimo hagati mu mirima, ibiti ibi...

Imifuka myinshi ipakiyemo ibijumba, hari iyo batariruzuza, bakirimo gupakira ibijumba byinshi bapakiye mu mifuka.

Abantu bari mu kirimburi cy'imiceri, hari abari hakurya cyane bari iruhande rw'ibiti byinshi cyane by'amashyamba, hari abantu benshi barimo uruhare rwabyo mu nkengero, hari n'abari hagati bunamye barimo gusarura imiceri.

Umurima waraye, uri iruhande rw'igipangu, harimo ibyatsi byinshi, harimo dodo zamezemo, hari imyumbati yamezemo, iruhande hari igiti cy'ipoto gihagazemo, ni umurima basanzwe bahingamo. Ariko wararaye ntabwo uhinze urimo ibyatsi byinshi.

Umurima udahinze, uwundi urahinze uri hakurya urimo imitumba na gereveriya, ku ruhande hari agace kamwe karimo kwakaho umwotsi, haruguru ntihahinze no hepfo ntabwo hahinze, hagati harimo inzira.

Umurima urimo ibigori n'ibyuma byuhira imirima birimo amazi byuhira imirima hakurya hari imisozi myinshi iriho amazu hagati y amazu makeya agiye atandukanye.

Umurima munini urimo ibitoki, umurima w'urutoki urimo ibitoki byeze n'ibiteze, umurima mwinshi cyane munini cyane, urimo n'ama na dodo hasi n'imboga z'ibirayi hasi.

Umurima w'ibigori, urimo ibigori biri hakurya n'ibiri hafi hano, bimwe bikiri bitoya ibindi byarakuze. N'urugo rubizitiye rw'imiyenzi biri kugasozi.

Abantu bari mu ishyamba bagenda barimo kugera aho ikiyaga kiri, hirya imbere yabo hari ikiyaga cy'amazi barimo kujyamo, hariho n'umuntu urimo hagati mu mazi.

Ifamu nini cyane irimo amazu abiri y'amabati, amabati ashaje irimo n'ibiti irimo umurima w'urutoki hirya ni umusozi birimo ibiti bikeya n'ubwatsi bukeya bimeze nk'aho hahinze ariko ntabwo hahinze cyane.

Amazu menshi cyane ateye mu biti by'amashyamba, hakurya hari ishyamba ririyo, hagati hari amazu menshi arimo ateye hari n'imihanda icamo, buri rugo rufite inzu, buri rugo rufite imiyenzi irukikije iruzitije uruzitiro rwabyo ariko hakurya hari ibiti byinshi cyane.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi, agasozi kazamuka, ibiti, imyaka, ibiti byinshi cyane bicucitse, hakurya n'umusozi, hasi hari aho imyaka itari neza.

Umuhanda uri mu ishyamba, urimo abantu benshi cyane barimo kugenda mu muhanda w'igitaka, haruguru hari amashyamba menshi, hepfo hari amazu matoya, hari amazi makeya ari mu ishyamba nayo, inyuma cyane aho abantu barimo guturuka hariyo amazu makeya cyane. Bari mu muhanda baragenda, hariho abarimo gukatira haruguru mu kuboko kw'iburyo, barimo gukatira mu biti.

Abahinzi babiri barimo kuvugisha umudamu ubahagaze imbere barimo kumusobanurira na we ababaza hari umurima barimo guteramo hejuru urasakaye ntabwo umurima ufunguye ni umurima mwiza.

Abantu batatu barimo gusarura pome zihiye zimwe z'umutuku, barimo kuzisarurira mu kintu, izindi ziracyari ku biti. Inyuma hari ibiti kumuhanda.

Abahinzi batatu bari mu murima bamushu menshi cyane, bafite, buri muntu afite ishu, ahagaze afashe, umugabo we ari hagati, iruhande rwe hari abadamu babiri bari mu murima w'amashu menshi cyane.

Isoko ry'ibihingwa ryo mu mbuga, harimo ibitunguru, iyanya, povuro, karoti, ibiringanya manderine, ubuhaza butoya, inyanya n'amashu hamwe n'icunga.

Abadamu batanu b'abahinzi b'imbuto, bafashe inanasi mu ntoki bavuye gusarura barimo kwerekana umusaruro w'inanasi zabo, bari mu muhanda hagati barimo kugenda, ku ruhande hari umurima urimo imyaka, inyuma hari ifamu, iriho indabyo ijtije indabyo bari mu nzira baragenda.

Umugabo afite rozwari arimo kuvomera imyaka, hirya hari igiti abantu bicayemo, bicaye munsi y'igiti ku ruhande hari abantu barimo kugenda, hari imirima iri inyuma ye.

Imashini y'ubururu iteretse mu murima w'ibigori ibika amazi yo kuhira imyaka mu murima, hari ibigori hari n'ibigori biri hakurya bitoya hari n'ibikuru n'ibyatsi biri imbere yaho.

Abantu benshi bari kun mirasire y'amazi, imyirasire yizana amazi ikurura izuba ikabona kuzana amazi, bafite amapayipo menshi barimo gufuhira imyaka cyangwa se kuhira imyaka yabo iri mu mirima, hari umugabo n'umugore bafite amapayipo barimo kujya gufuhira imyaka, hari abandi babiri bahagaze barimo kubireba mu murima munini, hirya hari amazu makeya.

Umuntu w'umu papa ari mu murima mashu aje kureba ku mwirasire w'izuba, umwana amuri inyuma arimo kugenda yuhira amashu mu murima, inyuma ye hari imirima y'ibitoki.

Umudamu uri mu murima afashe umupira w'amazi, arimo gusukirara amashu mu murima, inyuma ye hari umwirasire w'izuba, ku kantu bawubakiye, inyuma ye hari ibihuru.

Abantu benshi bafite insinga z'amazi barimo gusukira mu itaka, ahantu hari itaka, ahantu hatari amazi barimo gusukirara, umadamu ahetse umwana, hirya hariyo abandi bagabo barimo gukurura imipira y'amazi mu murima.

Umuhinzi arasukira amateke ye ari mu murima hari amateke arimo gusukira n'ikidomoro cy'amazi basukirisha, ari mu murima yambaye inkweto n'ipantaro.

Umugabo afashe umupira arimo kuvomera amashu yo mu murima, amashu ye yahinze, hakurya hari imisozi n'ibiti, arimo kuyavomera n'umupira w'amazi mu murima.

Ubutaka bufite imisozi myinshi cyane, imisozi miremire n'imisozi mitoya, amashyamba yicumbitse n'amataba yiparitse, hakurya hari igihuru cy'uburur ahandi ni amataba, imisozi cyane.

Ishyamba ry'inturusi, ririmo inturusi zikuze, n'izitarakura, hakurya hakurya hariyo umusozi w'ishyamba ry'inturusi, n'imbere hari undi musozi uriho ishyamba ry'inturusi.

Inzu iri mu ifamu ariko inyuma y'inzu hari ibiti byinshi cyane, hari ishyamba n'imbere hari ibindi biti. Hakurya yaho hari umusozi munini cyane no hirya cyane hari imisozi ibiri iri hakurya itagaragara neza.

Umurima w'intoki urimo ibiti kuhande haguru hari inzu hari amazu, hakurya hari agasozi kariho ibiti byinshi cyane, no hirya yaho hari indi misozi myinshi cyane, ni umurima w'intoki.

Ishyamba riteyemo ibiti biri ku murongo, hari ibiti biri ku murongo, hari uruhande rumwe rurimo imyaka, hakurya hari amazu, hirya cyane hari imisozi, uruhande rwo haruguru harimo amazu acucitse cyane, hagati hai aho haka umwotsi, hagati harimo n'inzira nyabagendwa.

Inzo bororeramo inkoko, izirimo zose n'umweruru, n'amasahani yazo zikoresha mu kurya no kunywa amazi, hari izaryamye, hari zihagaze, ni ikizu kizitije supaninet nini cyane, hirya hari urugi rwazo nta muntu urimo.

Inka iri mu kiraro iryamye inka y'Inyarwanda ndetse ifite n'amahembe, ikiraro cyubakishije ibyuma n'amasima n'amabati hejuru gishashakaje amabati hakurya ni imisozi n'ibiti ari n' akabasi k'amazi.

Umugabo umwe yambaye imyenda y'ubuveterineri, igiserubeti cy'ubururu n'igishashi mu kuboko n'amabote, arimo gukingurira inka cyangwa arimo kuyikinyingirana, agiye kuyitera.

Abantu babiri bari mu nka, mu kirararo cy'inka barimo gukama, umwe arimo arajisha, undi afite agakani gatoya agiye kwicara akame inka yambaye ingofero y'umutuku n'ishati y'icyatsi kibisi, ipantaro y'umukara. Undi yambaye imyenda y'ubururu.

Umugabo aragiye inka, ntafite inkoni, yambaye inkweto z'ubururu, ipantaro y'umukara, t shati y'umutuku n'umukara, aragiye inka z'inyarwanda zifite amahembe, mu mwanya urimo ubwatsi n'umukenke n'ibiti bikeya, zirahisha zizamuka.

Ingurube eshatu z'inzungu zambaye amaherena ku matwi zirimo kurira mu kiraro cyazo kandi hose harafunze harimo n'agakabasi k,amazi.

Ni inka z'amaburani zirimo kurisha, ziri mu mwanya ufite ubwatsi n'ishaka zirimo kurisha, hari izifite amaherena hari n'izitayafite, zose n'inka zirimo kurisha mu mwanya muto.

Itungo ryitwa ingurube iri mu cyizu cyayo n'ibyana byayo biraryamye, iri kumwe n'ibyana byayo iriho irabyonsa cyangwa se irimo kubibwagaguza, iyi ni ingurube.

Umuntu uragiye inka z'inyarwanda zirimo kuri mu ifamu nini cyane harimo ibiti bikeya, hakurya ni agasozi gatoya ku ruhande rwazo inyuma hari amapoto atwara insinga z'imiriro hirya no hino inka z'inyarwanda nta nzungu irimo araragiye.

Inka ziri mu kiraro buri imwe iri mu kiraro cyayo n'iyindi iri mu cyayo, zirimo kurira ibyatsi mu kiraro cyazo. Aho zihagaze siho zirira , buri imwe irimo kurira muri shambure yayo.

Inkoko nyinshi z'inzungu bororera mu kiraro zirimo kurya utuntu dutoya, harimo inkuru zifite amatara yazo bacana hejuru naho zinywera amazi muri utwo tuntu tw'umweru.

Ihene eshanu ziri mu murima, ziri mu mwanya, zirimo kuririsha mu ifamu. Ihene zose ni umweru, hari ibiti by'amashyamba bihagaze.

Umusaza yicaye mu bigori arimo kubitondekanya abihambira, bimwe biri iruhande, ibindi biri imbere ye ku ibaraza, ari munsi y'inzu ye yicayemo, niho arimo kubitondekera.

Ikizu cy'inkoko kirimo udushwi dutoya, amashwi y'inkoko bakiri batoya cyane, harimo n'amasahani yazo zikoresha zirya bazihereza ibiryo, bazihereza amazi, uruhande rwacyo inyuma, hari abantu bahagaze inyuma yacyo, ku ruhande hazitije amahema y'umukara harimo n'itara ryaka.

Umuveterineri uvura inyamaswa arimo kuvura ingurube ayitera urushinge, yambaye imyenda ipfutse mu maso, yambaye imyenda guhera ku birenge kugeza ku mutwe, arambaye aripfutse, yambaye amaga mu ntoki, yambaye bote arimo kuvura ingurube.

Umuganga yicaye mubiro, hari imbere ye hari utuntu twinshi yapfunduye cyane. Imbere ye hari utwo yapfunduye yateretse imbere ye ategereje abantu yambaye agapfukamunwa n'amarinete ari mucyumba aricaye.

Abaveterineri baje kuvura inka mu matungo harimo inka barimo kuvura, bafite imiti barimo kuzifatanya bambaye imyenda ye hari abambaye imyenda y'umweru hari abambaye imyenda y'ubururu na bote ,hirya hari abandi bantu baziragiye.

Inka ziri muri grorush cyangwa se padk, ziri kumwe n'aba veterineri barimo kuzikingira cyangwa se no kuzoza, bazivura, hari abazimiriye, imbere utari umuveterineri afashe inkoni arazimiriye, hari abandi bazirimo hagati, hari abaveterineri baziye imbere n'inyuma baririmo kuzivura.

Ifamu irimo inka na paduka harimo n'aba veterineri baje kuzisuzuma no kuzitera imiti, harimo n'umushumba wazo n'abandi bantu babiri mu myanya yazo ku ntebe hariho imiti y'abaveterineri bakoresha.

Imbwa bayizanye mu bitaro harimo abaganga batatu n'uwundi wa kabiri hirya, barimo kuyivura bayiziritse imigozi n'ibipimo n'inshinge barimo kuyivura, bayigaramishije mu cyumba barimo kuyivura.

Mu nzu harimo inkoko n'umukobwa aho arimo gukora amatara y'inkoko n'insinga n'ibyuma ibitanda by'inkoko ziraraho ifumbire yazo, hari iziri hasi, hari iziri hejuru zirimo mu nzu zose.

umuveterineri yaje kuvuora inka iri kiraro hari abandi bamuri inyuma barimo kurebabera uko ayivura, iri mu kiraro no haruguru harazitiye arimo kuyivura.

Umuveterineri aravura amatungo ari mu kiraro, ntago ayegereye, ikiraro kiri hirya kiri imbere ye, nawe ari mu kindi kiraro niho ahagaze arimo kuvura, hirya hari abantu babiri bahagarikiye.

Ibinyoni bibiri byitwa umusambi biri mu gishanga cy'amazi zirimo kurebana, imbere ni ibishanga ntabwo ubu umuntu yahabona, ziri mu mazi.

Inyamaswa yitwa gasumbashyamba iba muri pariki kandi inyuma yayo hari ishyamba ry'ibiti birebire ikaba ifite amabara y'ubugondo umutuku n'umweru.

Impyisi ebyiri ziri mu mazi, zivuye mu mazi, zirimo kwasama, zivuga zirira, zirimo kwasama zirebana, imwe irareba haruguru n'indi irareba hepfo, zirahasama zirebana mu mazi.

Imbwa enye, harimo iy'umukara n'izindi zifite andi mabara zirimo kuza zirukanka zimoka, inyuma yazo hirya ku ruhande, hari abantu barimo gutungukayo, iy'imbere iramoka ireba inyuma.